Abana batandatu bagizwe n'abahungu babiri n'abakobwa bane, bahuriye ku kigega cy'amazi bavoma ayo kunywa, bifashishije ibikombe bitandatu kugira ngo buri wese abashe gukoresha igikombe cye.

Umwana mutoya urembye, aryamye ku gitanda ari kumwe na mama we mu gihe ku ruhande hari abaganga babiri bari kumutera serumu, kugira ngo akomeze agire ubudahangarwa bw'umubiri.

Abana batatu n'umumama umwe, mu gihe mama we yari asoje kuvoma, umwana umwe yari ari gupomba amazi, undi ari kuvoma amazi, mu gihe mugenzi wabo yari ategereje ko umwanya we ugerwaho ngo na we avome.

Umubyeyi yishimiye kwereka umwana we w'umukobwa uko azaza afata uburoso igihe amaze gushyiraho korugate ndetse n'uko agomba kubikora igihe agiye gutangira koza amenyo.

Inyubako ngari igizwe n'inzu eshatu, zubakishijwe ibirahure, amatafari, ibyuma, amabuye bikaba bikikijwe n'ubusitani, ndetse n'inzira nyabagendwa ya mabave, igendwamo n'abantu ndetse n'imodoka.

Ukora imyitozo ngororamubiri ategura ifunguro rikungahaye ku birinda indwara nk'imbuto n'imboga ibyuyubaka umubiri inyama ibishyimbo n'amagi ibitera imbaraga ibinyampeke ibijumba ibinyamavuta ndetse n'amazi.

Umusore n'inkumi bari mu myitozo ngororamubiri, umusore yicaye ku ntebe ari kunywa amazi, mu gihe umukobwa ahagaze ku ruhande. Bombi bambaye imyenda yabugenewe ya siporo ibikapu byabo biteretse hasi.

Umusore muremure wambaye isengeri y'umukara ari gukora imyitozo ngororamubiri. Mu gihe ukuboko kwe kw'iburyo gufashe mu bitugu mu gihe ukuboko kwe kw'ibumoso gufashe ku nkokora y'ukw'iburyo mu gihe yari ahagaze.